Abagabo bambaye amapingu, bari kuri polisi bambaye inkweto zifunguye, kandi bahagaze ntabwo bicaye.

Umuriro w'amashanyarazi urimo ku mapoto y'ibyuma, hejuru yaho hari amatara amurika ku muhanda kandi hariho na kamera.

Umupolisi kazi afashe imbwa arimo ari kujyana nayo hafi y'aho ari hariho igikapu cy'ivarisi inyuma ye hari imodokoka.

Abayobozi batandukanye, barimo gutanga imbwiruhame, baziha abaturage bicaye muri sare, aho abayobozi bicaye hariho decorasiyo n'idararo ry'urwanda.

Umusirikare wambaye imyenda iriho idarapo jy'u gwanda, afashe imbunda. Aricaye, ameze nk'umuntu ushaka kurasa. Hafi ye hateretse icupa ry'amazi.

Umuyobozi ushinzwe imfungwa n'abagororwa, yambaye impuzankano y'umwuga akora, ahagaze iruhande rw'ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Imodoka ya polisi irahagaze, hafi yayo hari umupolisi ufashe imbwa iri kwirukanka imodoka yanditseho burigade.

Abayobozi barimo abaporisi n'abasirikare, barimo baratanga imbwirwaruhame ni batanu, bane baricaye umwe arahagaze.

Abayobozi batandukanye bicaye barimo kumva amabwiriza, arimo gutangwa. Bicaye mu matente harimo abagore n'abagabo.

Umugabo wambaye agapfukamunwa inyuma ye hari abadamu bafashe abana, afashe indangururamajwi arimo arabaza ikibazo.

Abayobozi batandukanye harimo abasirikare n'ababapolisi, bahagaze basa naho bari kwifotoza, bigaragara bavuye mu gikorwa c'inama.

Ababyinnyi babyina imbyino za gakondo barimo kubyina, hafi yabo hari ingoma enye ndetse inyuma yabo hari ibyatsi bitoshye cyane.

Umubyeyi arimo kugosora, ari kugosorera ku ntara, ahagaze kuri shitingi ari kugosoreraraho, hafi ye hari amazu.

Umwana w'umunyeshuri afashe imirisho ebyiri, arimo kuvuza ingoma yambaye iniforume y'ikaki, hafi ye hari abandi banyeshuri harimo abahungu n'abakobwa.

Abatahira babyina imbyino za gakondo barimo kubyina, inyuma yabo hari inzu y'indaro, inyuma y'iyo nzu hari urusasa, hari inturusu.

Ibyo kurya biteretse ku meza harimo umutsima, ibigori, ibirayi, amashaza. Hafi y'aho hateretse amasahani barakoresha bagiye kwa kurya.

Ababyeyi bapfukamye bafashe intara mu ntoki ziriho ibishimbo abandi bafashe umweyo wo kubura kandi bose bakenyeye imikenyero.

Ibyibo bifite amabara atandukanye harimo umutuku na bibiri by'umweru biteretse bikoze ishusho ya mpandeshatu.

Ndabona abagabo n'abagore, barimo gukoma ingoma bakenyeye. Bakenyeye neza, kandi hafi y'aho hari inzu za kinyarwanda zimeze neza.

Abadamu babiri barimo gusekura isombe bayisekurira mu isekuru, iyo sombe nibayisoza barayishyira ahabugenewe bateguye.

Imitiba y'inzuki iri mu ishamba. Iryo shyamba ndabona ari ishamba ririmo ibihuru byinshi cane, harimo n'ibiti by'inganzamarumbu.

Abagore batatu n'umwana, barimo bafashe itabi rya kinyarwanda barimo guseka. Hafi yaho hateretse indobo ndetse bari mu rugo.

Umubyeyi arimo arakama amata, ari gukamira mu ndobo, inka yayijishije ,umubyeyi witeze igitambaro cy'umukara.

Inka ihagaze itegerejeko bayibwira icyerekezo cyayo, inyuma yayo hari indi nka ,ku ruhande hari uruzitiro rw'ibyatsi.

Umusore w'umubyinnyi gakondo afashe inkoni, inyuma ye hari abandi babyinnyi bafite ingoma, inyuma yabo hari igitari ndetse hari n'amahuhwa.

Umubumbyi w'ibindi n'inkono arimo kubumba hafi ye hari umugore ndetse n'umwana, muri urwo rugo bafite inka.

Umuhanda wa kaburimbo ugabanyije amazu mo ibice bibiri amazu amwe ari mu gice cyo hepfo, ayandi mazu ari mu gice cyo haruguru.

Inzu y'amabati ashaje hafi yayo hari abaturage ku iyo nzu yubakishije amatafari kandi hatewe n'indabyo.

Urusengero rw'abanyagaturika rwa Rejina pati ni rurerure rufite amadirisha meza maremare, imbere ku rusengero hameneye akadare.

Urusengero gubatse mu cibanza ,Kandi inyuma y'urusengero hariho korutire , imbere haparitse Imodoka, Kandi inyuma ya korotire harimo kugenda umuntu.

Ahantu hari ibikorwa by'ubwubatsi, hari abantu benshi bari kubaka ndetse n'imodoka zizanye ibikoresho. Hafi yaho hari amazu manini ndetse hirya urabona ibirunga.

Urusengero rwo gusengeramo runini cyane mu gipangu cyarwo haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye ,hanze hari akazu bacururizamo amayinite ya Emutiyene.

Umuhanda wa kaburimbo imbere yawo hari inzu ya Sofirwa hariho n'imodoka itwaye ibintu.

Ikiraro abantu bagendaho bafashe harimo: abazungu ndetse n'umwirabura bambaye udupfukamunwa, barimo baragenda barimo kukifotorezaho

Umuryango uri ho ifoto ya Noteri urakinze, umuryango ufite ibara ry'umutuku Noteri yashyizeho ifoto akoresheje impapuro.

Ishusho ya Bikiramariya irambitse ku kibumbano cyayo, inyuma y' ishusho hari urusengero rw' abagaturika rurerure hafi yaho hari jaride.

Ikiraro gikoreshwa mu kwambuka, abantu bamwe bava ahantu hamwe bajya ahandi, mu nsi yacyo harimo umugezi, iruhande hariho ibishimbo, ndetse imbere haturutse umugabo.

Ikigo cy'amashuri gifite inyubako igeretse，gifite imiryango itandukanye， biragaragara ko umurimo wo kubaka ugikomeje.

Ikigo cy'amashuri y'abana b'incuke kiriho umugabo uhagaze, ndetse n'aho gukarabira ku bantu baje mu kigo.

Urusengero runini rw'amatafari, rufite amabati y'ubururu ndetse n'amadirishya maremare. Hafi y'urusengero hahinze ubwoko bw'indabo butandukanye.

Umugore witeze igitambaro ufashe indangururamajwi, harimo ahantu hari inama bigaragara, yashaka kubaza ikibazo cyangwa gutanga inyunganizi.

Abaturage benshi abagabo n'abagore bitabiriye inama n'umuyobozi wabo, ikirere ni ciza, nta mvura ikirangwa.

Umuyobozi arimo aratanga imbwirwaruhame ayibwira abaturage abagabo n'abagore. Aho ari kuyibabwirira hari amazu y'ubucuruzi akinze.

Abanyonzi batwara amagare bari aho bategerereje abagenzi, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo.

Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, zirahagaze zitegereje ko abantu bazijyamo. Imodoka ndende kandi zifite ibirahure byiza by'umukara.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa horizo， irimo kugenda mu muhanda， inyuma yayo hariho ibiti by’ubwoko butandukanye， iyi modoka ifite amabara icyatsi， umutuku， ndetse n'ibirahuri byiza.

Imodoka zitwara abagenzi zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi, zitondetse ari imodoka nyinshi cyane ziri mu bwoko bw'izo bakunze kwitwa kidiyesi.

Imodoka itwara abantu barembye cyane, yahagaze itegereje ko bayiha umuntu itwara, hafi yayo hari abantu bayiparitse hari ibiti bitandukanye.

Imodoka ziri muri gare zimwe zirigusohoka muri gare ziri kugenda, izindi zitegereje abagenzi. Hafi yazo hari ahantu bacururiza ibyo kurya.

Umushoferi utwara moto y'imizigo， ayicayeho， inyuma ye hari abari gupakira amatafari bahagaze， kandi bari gupakira amabati.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'abanyeshuri, bari kwinjira mu modoka ihagaze hafi y'umuhanda, imbere y'iyo modoka hari abandi banyeshuri.

Moto eshatu ziri mu muhanda abazitwaye bose bambaye kasike . Inkweto bambaye zirafunze , umwe zirafunguye , bambaye amapantaro undi yambaye ikabutura.

Umuhanda urimo kugendamo umugabo utwaye igare, inyuma y'ibyo atwaye, atwaye umufuka usa n'aho urimo ibyo kurya.

Imodoka ya dayihatsu irimo kugenda mu muhanda. Ipakiye ibirayi, imifuka myinshi cyane. Irimo kugenda mu muhanda w'igitaka.

Abamotari babiri batwaye abagenzi imbere yabo hari imodoka ya takisi nayo iri kugenda mu muhanda, umuhanda bari kugendamo ni umuhanda wa kaburimbo.

Umugore arimo gusunika igare mu umuhanda, kuri iryo gare hariho igitebo kirimo ibintu ari gusunika, kandi uwo umugore yiteze igitambaro, yambaye na inkweto zifunguye.

Abagenzi n'abayobozi b'indege bahagaze mu ndege. Barimo guhabwa ndetse no gutanga amabwiriza, y'uburyo umunsi urimo aragenda.

Imodoka itwara imizigo itwaye imboga zitandukanye harimo amashu, karoti n'imboga z'umutuku zo kurya.

Imodoka yo kugendamo iparitse ahantu haparika imodoka. Hafi y'aho hari uruzitiro rw'amatafari.

Umumotari utwaye moto y'amashanyarazi arimo kugenda mu muhanda ahetse umugenzi. Iruhande rwe hari indi moto iri kujya mu cyerekezo ari kuvamo.

Ahantu abamotari batandukanye baparika moto zabo, harimo abaparitse badafite abagenzi harimo n'umwe ufite umugenzi umutwaye, harimwo n'ukorera icyicaro cya MTN wambaye ijire ya MTN.

Imodoka ntoya irimo kugenda mu muhanda urimo ivumbi ryinshi cyane, yatumuye ivumbi, inyuma yayo ntago abantu babona aho banyura.

Abakinnyi ba siporo bahagaze bari gushimirwa ko bitwaye neza muri bo bahagaze n'umuzungu uri kumwenyura neza.

Abakinnyi bakina umukino w'umupira barimo kwishima cyane. Imipira bambaye yanditsemo ijambo Sikolo bambaye imipira iri mu ibara ry'ubururu.

Imodoka ikoreshwa mu isiganwa iri kugenda mu muhanda w'igitaka, iri gutumura ivumbi. Yanditseho amagambo atandukanye.

Abakinnyi b'umupira wa handibolo barimo barakina ari amakipe abiri atandukanye, mu izamu harimo umukobwa ndetse n'ikipe ziri gukina ni iz'abakobwa.

Abafana bari muri sitade bafashe amabendera mu bigaragara barimo barafana ikipe y'Igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ni benshi cyane bambaye n' ibirango bigaragaza ko ari iby'Igihugu cy'u Rwanda.

Abakinnyi babiri bakinira amakipe atandukanye yo kwirukanka ku mupira. Bari gukinira muri sitade. Umukinnyi umwe yambaye imyenda y'umuhondo, undi yambaye imyenda yu'bururu.

Umukinnyi ukina umupira w'amaboko, wambaye ijezi, ikabutura, n'umupira. Inyuma ge hari undi mugabo wambaye iforume yo gukinana n'ingofero. Ahantu bari, hashobora kuba ari ahantu ho kwamamariza imikino.

Ikipe y'abakobwa bambaye imipira n'ikabutura bishimiye intsinzi, hafi yabo hari abafana. Mu bigaragara hari habaye umupira.

Abakinnyi b'umupira w'amaboko barimo barakina, hariho amakipe abiri. Ikipe imwe yambaye imyenda y'umukara, indi yambaye imyenda y'umutuku, kandi hafi hariho abafana muri muristade.

Abakobwa bakina umukino w'amaboko bari gukina ari amakipe abiri: iy'u Rwanda n'iya Kotedivuwari, bari gukinira muri stade Amahoro.

Abakinnyi b'umupira w'amaboko w'abakobwa, barimo baritoza uko bakina umupira. Bambaye amakabutura ndetse n'imipira. Ahantu bari hagaragara nk'aho ari muri sitade.

Ndabona abakobwa babiri bari gukina umupira w'amaboko, bambaye iniforume y'abakinnyi b'umupira.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo, ahagaze ariko kureba imbere ye inyuma ye. Inyuma ye, hari abandi bakinnyi ba siporo bahagaze.

Abakinnyi b'abakobwa b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bakina umukino w'amaboko, bahagaze abandi baricaye barimo kwifotoza, ni abakinnyi cumi na babiri.

Abakobwa barindwi bambaye imyenda ya inifomu isa bambaye n'inkweto z'umweru, bose bari bakwishimira ibyo barimo gukora. Muri bo hari abamanitse amaboko n'abandi bambaye ingofero, inyuma yabo hari ibiti bitoshye byiza.

Muri sitade harimo abantu bari kwitoza, abakinnyi b'umupira hafi yawo. Inyuma ya stade, hari abarinze umutekano w'abantu bari mu kibuga cy'umupira.

Abakinnyi b'abakobwa ndetse n'abasore barimo gukina umukino witwa bako. Hafi y'aho ndabona abafotozi barimo gufotora ndetse n'abatoza barimo gutoza ikipe.

Amazu y'ubucuruzi afunze yose, hafi yayo hari umuntu ufite igare rihetse undi inyuma, ndetse inyuma yabo hari umuntu na none urimo kugenda.